Ni inyubako y'ikigo cy'amashuri, hakaba ku bikuta byaho hashushanyijeho amoko y'ibishyimbo bikiri gukura. Ibi bifasha abana gusobanukirwa byinshi.

Ni ku kigo cy'amashuri igikuta gisizeho ibara ry'umuhondo, kikaba gishushanyijeho n'ibishushanyo bitandukanye byifashishwa mu kwigisha abana kugira ngo bunguke ubumenyi buhagije.

Kwigisha abana batoya cyane cyane ab'inshuke biba byiza iyo ukoresheje udushushanyo kuko bibafasha kunguka ubumenyi vuba kuruta uko wabigisha kwandika.

Igikoresho gikozwe mu buryo bw'igare kikaba kigizwe n'insinga nyinshi ndetse zifite n'amabara nk'umukara ndetse n'ajya gusa n'ivu, inyuma hari ibindi bikoresho nabyo bifite amabara atandukanye.

Udukoresho turi ahantu harimo; ibitiyo, indobo, dukoze mu nyenyeri, udukozwe mu mafi, tukaba ari udushushanyo twashushanyijwe n'umuhanga wabyigiye.

Amanota agaragaza indirimbo uburyo iririmbwa, bikaba bikunda gukoreshwa n'abaririmbyi b'amakorari, hejuru handitse ijambo rivuga ngo nkunda gusiga irangi.

Udukoresho turi mu mabara atandukanye, ubururu ndetse n'umutuku, tukaba ari ibyicungo abana bo mu mashuri y'incuke bicungaho mu gihe barimo barakina bityo bakishima.

Ibishushanyo bishushanyijwe mu moko y'inyamaswa hakaba harimo agasumbashyamba ,imparage, ingwe, ingona ndetse n'inzovu n'intare.

Uducupa tune dufite amabara atandukanye, umutuku, ubururu, icyatsi, dufite n'imifuniko hejuru ndetse n'imikondo.

Inyubako ishaje ikaba irimo irashya imbere urabona ko iri gucumba umwotsi. Hakurya yayo hari amashyamba ubona ko yakuze cyane.

Ni igishushanyo kiriho abanyeshuri barimo barakina agapira ndetse na mwarimu wabo arimo araberekera uko bikorwa, hakurya hari ishuri bigiramo risa neza.

Ahantu abana bo mu mashuri y'incuke bajya bakaruhukira, ni ahantu hari ibikinisho byinshi kandi hakaba haje n'ababyeyi babo kureba uko abanyeshuri babo biga.

Udushushanyo tune tw'imodoka zo mu bwoko bw'izitwara imizigo tukaba turi mu mabara atandukanye: umuhondo, ubururu, oranje n'andi atandukanye.

Ku bigo by'amashuri cyane cyane ay'abana b'inshuke uhasanga ibikinisho ndetse n'ibyicungo abana bicungaho mu gihe bari mu karuhuko.

Udukoresho turi mu mabara atandukanye, umuhondo ,ubururu, umutuku ,icyatsi ,tukaba twifashishwa mu burezi bw'abana, cyane cyane ab'inshuke.

Ni ku kigo cy'amashuri, hakaba hari abana biteze ibipapuro mu mutwe bakaba bambaye n'impuzankano, iruhande rwabo hari abarimu barimo barayobora uko bagomba kwitwara.

Inyubako irimo icyumba kirimo utubati kikabamo udukoresho dutandukanye turi mu mabara agiye atandukanye, byose byifashishwa mu guha abana bato b'inshuke uburezi.

Udukoresho turi mu mabara atandukanye, harimo umuhondo, ubururu, cyatsi, oranje, umutuku, twose twifashishwa mu burezi bw'abana cyane cyane bo mashuri y'inshuke.

Inyi ku kigo cy'amashuri y'abana b'inshuke, hakaba hari inyubako zitandukanye ndetse hari n'imbuga ngari abana bakiniramo igihe bari mu karuhuko.

Abana b'abanyeshuri barimo barakina umupira kandi urabona ko bari kumwe n'umurezi wabo, arimo araberekera uko bakina neza, batabikomerekeyemo.

Ikigo cy'amashuri ku gikuta hashushanyijeho ibishushanyo bitandukanye harimo ingorofani ndetse n'utundi dukoresho byose byungura abanyeshuri ubumenyi.

Kwigisha abana bo mu mashuri y'inshuke biba byiza kurushaho iyo ukoresheje ibishushanyo kuko ari bwo babasha kumenya byinshi ndetse no gusobanukirwa kurusha kwandika.

Umugore wicaye ahantu hagati y'udupupe, akaba ari mu cyumba kirimo tapi, utu dupupe kandi twifashishwa mu kwigisha abana b'inshuke kugira ngo bafate mu mutwe.

Udushushanyo dutandukanye tukaba turi mu mabara agiye atandukanye harimo utumeze nka baro, utumeze nk'abantu tw'imigozi byose bifasha abana bo mu mashuri y'inshuke kunguka ubumenyi.

Udushushanyo n'udukoresho turi mu mabara atandukanye, hakaba harimo ibara ry'umuhondo, umutuku, ubururu, icyatsi kibisi, twose twifashishwa mu kwigisha abana.

Kwigisha abana batoya ni byiza cyane cyane iyo uri kubigisha mu buryo bw'imikino, ndetse n'udushushanyo nibwo babasha kumva, ndetse bakishimira n'iryo somo.

Igishushanyo kinini cyane, gishushanyije mu buryo bw'inyamaswa, kikaba gifite amaguru ariho inzara z'icyatsi kibisi n'amaboko ndetse ifite n'amenyo manini.

Igikuta gishushanyijeho ingorofani, hari abanyeshuri b'abana batoya bambaye imyambaro iranga ikigo cyabo.

Agakapu gatoya cyane, kakaba kari gushyirwamo amakayi y'umwana, ukiri mu mashuri abanza ya nasari. Urabona ko gafite amabara atandukanye nk'umweru ndetse na oranje.

Akabati karimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa ku ishuri. Harimo ibitabo, amakaramu, amakereyo ndetse n'ibindi byinshi.

Imibare igaragara, ishushanyije muri taburo, ikaba iva kuri rimwe ikagera ku icumi, urabona ko ishushanyijwe mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Icyumba kirimo udushushanyo dutandukanye hari amagambo ahanditse mu mabara atandukanye umuhondo, icyatsi, ubururu, umutuku byose bikaba byifashishwa mu burezi.

Udukoresho dutandukanye turi ahantu ku gishushanyo, harimo imikasi, amapiki, inyundo, imetero, byose bikaba byifashishwa mu burezi.

Udushushanyo turi mu mabara atandukanye, umuhondo, icyatsi, ubururu, umutuku, tukaba dukikije igishushanyo kigaragaza umubumbe w'Isi ndetse turi ahantu hasa umweru.

Ku bigo by'amashuri bigiye bitandukanye haba hari ubusitani ndetse n'idarapo riranga igihugu cy'u Rwanda kuko ibigo byinshi ari ibya leta.

Ku bigo by'amashuri agiye atandukanye usanga hari abanyeshuri benshi kandi abarezi babo bakunze kubashishikariza gukora imikino itandukanye kugira ngo bakine baruhuke.

Ni ibuwate iba irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa n'abanyeshuri nk'amarati, amakompa, amakereyo ndetse n'ibindi byose bikaba bifasha abanyeshuri.

Inyubako zitandukanye hakaba hari n'ubusitani bwiza cyane urabona ko ari ku kigo cy'amashuri haracyeye hafite isuku kandi nta munyeshuri n'umwe uri hanze bose bari imbere.

Ibuwate ni igikoresho kiba kirimo uducaruziga, ducamurongo, amakaramu, kereyo zo gushushanyisha ndetse n'ibindi, bigafasha abanyeshuri mu myigire yabo.

Udushushanyo turimo amabara atandukanye, harimo umutuku icyatsi, umuhondo, umweru, ubururu n'umukara. Urabona ko ari twiza cyane kandi byungura ubumenyi bw'abana.

Imbuto zigaragara ahantu, haka habarimo inyanya, umuneke, pome, indimu, byose bikaba biribwa kandi bitunze abatari bake mu Rwanda no hanze.

Leta y'u Rwanda yagiye yegereza abantu amashuri kugira ngo bajye babona ubumenyi ndetse barusheho kunguka byinshi. Urabona ko iki ari ikigo cy'amashuri kiza cyane kandi cyubatse mu buryo bwa etaje.

Ni ku kigo cy'amashuri, hakaba hari abantu batandukanye, barimo barakora ikizami. Urabona ko bicaye ku ntebe nziza kandi intebe zigezweho za kijyambere.

Kwigisha abanyeshuri ni byiza ariko birushaho kubungura ubumenyi iyo ubigisha abize neza, akabasha kubasobanurira bityo akunguka ubumenyi.

Ku bigo by'amashuri bitandukanye haba hari imbuga ndetse hari n'ibiti bigatuma abana bakinira muri iyo mbuga ndetse ibyo biti bikabaha n'amahumbezi n'akayaga.

Amoko y'imipira atandukanye, harimo akinwa mu maguru, akinwa ku mukino w'amaboko, biri mu mabara atandukanye kandi byose byifashishwa mu myidagaduro.

Henshi hatandukanye, usanga harubatswe amashuri kugira ngo abana bajye babona ubumenyi kandi buzabateze imbere n'ahazaza ndetse bafunguke no mu mutwe.

Kwigisha abanyeshuri, bisaba guhozaho cyane cyane iyo ubigisha imibare bisaba kubaha imyitozo myinshi kugira ngo bunguke ubumenyi, ni byizayiza rero kubitaho.

Ibitabo birambitse ahantu ku meza, amarati, imashini yifashishwa mu guteranya no gukuba imibare, ibikoresho nk'amakaramu, amakereyo n'ibindi byose byifashishwa n'abanyeshuri.

Umugabo ugaragara nk'umwarimu, hakaba hari ameza iruhande rwe hakaba hari n'ikibaho agaragara nk'aho ari mu ishuri, bikaba byarashushanyijwe n'abanyeshuri babyigiye.

Ni mu gihe cya Covid 19 bakaba bari bari gufungura ishuri gusa bose bambaye udupfukamunwa harimo n'umupolisikazi na we wambaye agapfukamunwa, urabona ko ishuri ryari rikinze ariko bari kurifungura.

Ni igitabo kiri mu mabara atandukanye; umuhondo, icyatsi, ikigina, hakaba hashushanyijeho abantu babiri, umwe ameze nk'igiti. Cyanditseho hejuru ngo Cibiri n'umurongo.

Agacaruziga, agacamurongo, byose birambitse ku meza afite ibara ry'umweru. Bikaba byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri cyane cyane abiga imibare.

Imibare igaragara aha ngaha ikaba ari itatu iri mu mabara atandukanye icyatsi, umweru, ndetse n'ubururu byose byifashishwa mu burezi.

Udushushanyo dutandukanye turi ahantu. Tukaba turimo: utunyundo, amapensi, udukapu n'utundi dukoresho byose byifashishwa mu burezi.

N'inzu y'isomero hakaba harimo ibitabo by'amoko atandukanye ,harimo n'amabara nk'icyatsi, umutuku, ikigina ,orange byose byifashishwa n'abanyeshuri.

Uducamirongo ari two amarati, udukoresho bifashisha bashushanya arizo gome, ndetse n' buwate ibirimo ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri.

Ku bigo bitandukanye by'amashuri, usanga abarimu bigisha abanyeshuri ariko bakabaha imikoro yo gukorera mu matsinda kugira ngo bungurane ubumenyi kuko baba bazi ibintu bitandukanye.

Icyumba k'ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri barimo bariga bigishwa n'umwarimu, imbere kandi hari umwana ufite ingwa uririmo arandika agendeye kuri alufabe z'Ikinyarwanda.

Ni ikigo cy'amashuri kigisha imyuga kikaba giherereye mu Karere ka Nyagatare, mu Murenge wa Matimba, imbere mu kigo harimo ubusitani burimo n'ibiti birebire.

Ibikoresho bikozwe mu byuma birambitse ahantu hasa ibara ry'umweru, hakaba harimo indyabiti cyangwa se ishoka ndetse n'ipiki byose byifashishwa n'abantu benshi.

Ni mu isomero hakaba harimo amoko y'ibitabo atandukanye, byifashishwa n'abanyeshuri babisoma, urabona ko hakeye kandi hafite n'isuku, abaza bahagana nta kibazo bagira.

Ni ku kigo cy'amashuri hakaba harimo abana bambaye impuzankano za kake ndetse abakobwa bambaye koto, urabona ko rwose basa neza bafite isuku.

Imyambaro iri mu mabara atandukanye, harimo ikote rifite ibara ry'ubururu, umupira ufite ibara rya oranje ndetse n'ingofero na yo ifite ibara rya oranje, byose bikaba byambarwa.

Udukapu dufite amabara atandukanye nk'ubururu, icyatsi, umutuku utagaragara neza. Tukaba twifashishwa n'abanyeshuri batwaramo ibikoresho bitandukanye nk'amakayi n'ibindi.

Ku mashuri agiye atandukanye hirya no hino mu Gihugu, uhasanga hari ibikinisho ndetse n'ibyicungo abanyeshuri bakiniraho mu gihe bari mu karuhuko bahawe na mwarimu.

Inyubako yubatse iri ahantu hari ibimera, ikaba ifite urugi rw'ubururu, idirishya ry'ibirahure ndetse n'amabati y'umutuku, inzu nayo isize ibara ry'umuhondo.

Uburezi bw'abana ni ikintu cyiza ariko biba akarusho iyo bigishije ubereka n'ibishushanyo kuko aribwo barushaho kumva cyane, yaba abana bo mu mashuri y'inshuke ndetse n'amashuri ya pirimeri.

Abanyeshuri bateraniye ahantu hakaba hari imbere umuyobozi wabo arimo arabaganiriza ku bintu bitandukanye kugira ngo imitsindire yabo itere imbere.

Ku bigo by'amashuri iyo abana bamaze kwiga bajya kuruhuka bakaganira bagakina imikino itandukanye bityo bagasubira mu ishuri nanone bameze neza baruhutse.

Ahantu hari inyubako nziza cyane, zubakishijwe amatafari ahiye, akaba ari ku kigo cy'amashuri, hari n'abanyeshuri bari mu busitani bukikije icyo kigo.

Ni kigo cy'amashuri harimo abanyeshuri bicaye muri sale nini bakurikiye inama bari huhabwa n'abarezi babo kugira ngo barusheho gutsinda neza ndetse no kunguka ubumenyi.

Ni ku kigo cy'amashuri hakaba hari abantu bari kugenda bambaye amajiri, biragaragara ko ari abaganga bagiye gutanga ibinini ku bana kugira ngo babarinde indwara.

Abanyeshuri b'urubyiruko harimo abakobwa ndetse n'abahungu, bateraniye ahantu murabona ko hari ingingo runaka yabahurije aha, kugira ngo bagire ibyo bigaho.

Ni salle nini iri gutambukwamo n'abantu batandukanye, ku nkuta hasizeho irangi ry'umuhondo ,harimo abagabo n'abagore barimo baragenda muri iyo salle.

Abanyeshuri bahetse ibikapu byabo, bakaba bambaye impuzankano z'ishuri, bagiye ku ishuri bagiye gusoma kugira ngo bazarusheho kunguka byinshi ndetse no kwiteza imbere ahazaza.

Abana b abanyeshuri bambaye impuzankano z'ishuri bakaba bafite indabo ubona ko ari umuhango bahuriyemo ujyanye no kwibuka.

Abanyeshuri bambaye udupfukamunwa n'impuzankano by'ishuri, bakaba bari kwiga ndetse bahanze amaso imbere umurezi wabo kugira ngo bumve ibyo ababwira.

Ni ku kigo cy'amashuri hari abana bari ku murongo barimo barumva bateze amatwi ibyo umurezi wabo ari kubabwira kugira ngo barusheho kugira ikinyabupfura no gutsinda neza.

Ku bigo by'amashuri bitandukanye usanga hari abantu batandukanye, baba baje kuhasura kugira ngo barebe uko uburezi buri kugenda ku bana, n'uko babafasha.

Ikigo cy'amashuri, imbere harimo ubusitani butandukanye ndetse hakaba hari n'inyubako ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibara risa icyatsi kibisi, hakaba harimo n'ubusitani bwinshi.

Ni ku kigo cy'amashuri, hakaba habereye inama y'abayobozi n'abanyeshuri. Urabona ko abanyeshuri bateze amatwi abayobozi babo kandi bumva inama babagira kugira ngo bizatange umusaruro.

Ni mu isomero, harimo amoko y'ibitabo atandukanye, ibitabo by'imibare, iby'amasosho, iby'ikinyarwanda, iby'icyongereza n'iby'igifaransa ndetse n'ibindi bitandukanye.

Abanyeshuri iyo bari ku ishuri cyane cyane barimo gukora ikizami, baba bitonze cyane kandi badakeneye icyabarogoya kugira ngo batekereze neza amasomo yabo.

Ni ku kigo cy'amashuri hakaba hasuwe n'abayobozi batandukanye, baje kureba uko imyigire y'abana imeze, bari kumwe n'umuyobozi w'ikigo ari kugenda abaganiriza.

Ni ku kigo cy amashuri abanyeshuri bakaba bambaye udupfukamunwa mu bigaragara birasa naho ari mu gihe cya covid kuko buri wese yashyizeho uburyo bwo kwirinda.

Abanyeshuri batandukanye harimo abakobwa ndetse n'abahungu. Bagannye ku rwibutso bagiye kwibuka, urabona ko bari kumwe n'umurezi wabo na we ubari imbere.

Ni byiza ko ku bigo by'amashuri hagomba kurangwa n'isuku ndetse n'ubwiherero bufite isuku kugira ngo umwana ugize ikibazo ajye kugikemurira ahantu hasa neza.

Inyubako ifite amatafari ahiye, isakajwe n'amabati ndetse igizwe n'inkingi ku marembo yayo, urabona ko isa neza cyane kandi n'ikigo cy'amashuri.

Ni mu cyumba kirimo abantu benshi batandukanye, kikaba kirimo abagabo ndetse n'abanyeshuri biga amashuri yisumbuye, barimo baraganirizwa ku bintu bitandukanye.

Umuyobozi w'ikigo cy'amashuri w'igitsina gore, imbere ye hateretse amazi, arimo araganiriza abanyeshuri abagira inama y'uko bagomba kwitwara bagatsinda.

Abanyeshuri bambaye impuzankano ziri mu ibara ry'ubururu, bakaba barimo baraganira ndetse barimo baranandikirana udupapuro mu buryo bwo guhanahana amakuru.

Agashushanyo gakozwe mu ibumba, kakaba gafite mpande eshatu ndetse urabona ko hari n'ibindi bitarasozwa kubumbwa, gusa urabona ko ari byiza cyane.

Ni inyubako iteye irangi ry'umweru, isakajwe amabati y'umutuku, ikikijwe n'ubusitani bwiza cyane n'uduhanda tw'amapave, ikaba yigirwamo n'abanyeshuri.

Agakoresho kabumbye mu buryo bw'agakono kakaba gakozwe mu ibumba, kabumbye n'abanyeshuri babyigiye kandi gateriretse ahantu mu cyumba giteye irangi ry'umuhondo.

Igishushanyo kiriho imodoka isa n'iyangiritse, amapine yayo na yo aragaragara ku ruhande. Kikaba cyarashushanyijwe n'abanyeshuri babyigiye mu mashuri y'imyuga.

Mu nzu nyinshi zigiye zitandukanye, usangamo udutako tuba twarakozwe n'abanyabugeni baba barabyigiye mu mashuri y'imyuga, tuba dusa neza kandi dutuma mu nzu hasa neza.

Ubumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga bukomeje gushyirwamo imbaraga kuko ubu isi igendana n'ikoranabuhanga, biba byiza rero iyo abanyeshuri biga bifashishije za mudasobwa.

Igishushanyo cyangwa se igikuta kiriho ibara rijya gusa oranje, hakaba hashushanyijeho ibiti bibiri ndetse n'inyamaswa yo mu bwoko bw'ishya iboneka muri pariki.

Ni inyubako nziza, irimo amarido, irimo intebe n'abantu bicaye. Barimo baraganira, ibijyanye n'iterambere.

Iyo abanyeshuri basoje kwiga bajya mu kirori cyo gusoza amashuri, bakambara imyambaro yabugenewe kandi bakishima, ubu ubona ari ibirori byiza kandi bikeye.

Igishushanyo gishushanyije ahantu ku gikuta giteye irange rijya gusa ikigina kikaba kiriho ibibabi biri ku giti urabona ko byashushanyijwe n'abantu babyigiye.

Udukoresho dutandukanye tubumbye mu ibumba, tukaba twarabumbwe n'abahanga babyigiye b'abanyeshuri, tukaba ari twinshi kandi duteretse ahantu kuri sima.

Kwiga ni ikintu kiza ariko bikarushaho iyo usoje kuko imiryango ndetse n'inshuti bagushagara, bakaza kwishimira ibyo byiza uba wagezeho.

Ifoto y'umusore, utagaragara neza. Yambaye amarinete, afite utwanwa duke ndetse n'umusatsi udakuze cyane, akaba yambaye n'umupira. Aritonze cyane.

Ubumenyi bujyanye n'ikoranabuhanga ni ikintu cyiza cyane kandi gifasha abantu benshi kuko iyo wize ikoranabuhanga, umenya ibigezweho, ukamenya n'ibiri ku isoko bikagufasha kwiteza imbere.

Igishushanyo gishushanyijeho amazu atandukanye, umugezi ndetse n'ibiti birebire, kikaba cyarashushanyijwe n'umuhanga uko bigaragara.

Ni mu ishuri hakaba harimo abanyeshuri batandukanye, imbere yabo hari mudasobwa ubarabona ko buri wese ari gukora ubushakashatsi ndetse hari n'umwarimu urimo uraberekera.

Ibigo by'amashuri usanga biba byubatse neza kandi bitewe n'amarangi, ikindi kandi biragoye ko ikigo cy'amashuri waburamo n'ubusitani na bwo butuma ahantu hasa neza.

Ni ku kigo cy'amashuri, barimo barigishwa ubumenyi bw'ibintu bitandukanye ndetse bashyira mu ngiro ibyo bize, urabona ko bahanze amaso umwarimu urimo urabererekera.

Igishushanyo kibambye ahantu ku cyapa, hakaba hariho ibiti ndetse n'amazi n'ibindi bimera, kikaba cyarashushanyijwe n'umunyeshuri wabyigiye w'umuhanga.

Umuhanda unyurwamo n'ibinyabiziga bitandukanye ndetse n'abantu bikoroshya ingendo ndetse bigatuma na serivisi zitandukanye zitambuka mu buryo bworoshye.

Abantu bari kugenda ahantu hashashe n'amapave, bakaba bari kugenda bagana imbere, ubona ko ari abanyeshuri bagiye gufata amasomo bahabwa n'umurezi wabo.

Abanyeshuri basoje kwiga kaminuza mu bijyanye n'imyuga bakaba bambaye imyambaro igaragaza ko basoje, ni ikirori kiba ari kiza kandi kiba ku basoje bose.

Umuryango ushushanyijeho igisiga gifite amabara menshi kandi y'umukara, umuryango nawo ushyizeho irangi risa icyatsi kibisi ndetse umuryango urimo n'ikirahuri.

Agakoresho kabumbabumbye mu ibumba kari ahantu mu cyumba ndetse hejuru y'ameza, icyumba ha giteyemo irangi risa umuhondo.

Igishushanyo kiriho inanasi nini, pome nyinshi ndetse n'imineke. Kikaba kiriho ibishushanyo birimo ibara ry'umukara ndetse n'ibara risa n'ivu.

Igishushanyo kiri ku gikuta kikaba ari icy'umukobwa ufashe agakombe mu ntoki ndetse n'agasakoshi, afite imisatsi miremire igera mu mugongo.

Ni ku kigo cy'amashuri giteye irangi rijya gusa umweru ariko utererutse, kikaba gifite umuhanda w'amapave, abanyeshuri biga iby'imyuga bakaba ari ho bigira.

Igikuta gishushanyijeho ishyamba ndetse n'inyamaswa yo mu bwoko bw'ishya ifite amahembe magufi, urabona ko gisa neza kiri mu ibara rya oranje.

Abanyeshuri bize iby'imyuga baba bazi gutera amarange, ku buryo iyo umuhaye akazi ko gutera irange abikora yabisoza ukabona ni ibintu byiza.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'imyuga bakaba bicaye bateze amatwi umwarimu uri imbere arimo arabigisha ku bintu bitandukanye kugira ngo barusheho kunguka ubumenyi.

Ahantu mu cyumba harimo intebe ziri mu ibara ry'ubururu, iki cyumba ku nkuta hasizeho ibara ry'umuhondo ndetse hari n'umuryango basohokeramo.

Agakoresho gakozwe mu ibumba gusa ntibaragasoza neza. Urabona ko kameze nk'agatebe cyangwa se agatako. Igihe nikigera kazashyirwaho irangi kajye kugurishwa cyangwa gatakwe mu nzu.